Umusirikare w'igihugu agaragaza uko umutekano umeze, anashishikariza ababwirwa kubungabunga.

Ingabo n'ibirango byazo rwose cyane iyo basuhuza abasirikare bakomeye, abasirikare bakuru, usanga ari icyubahiro gikomeye cyane ku buryo bijya bigenda neza mu muco wacu wa gitore.

Abadaso bashinzwe umutekano w'abaturage mu rwego rw'igihugu cyacu, cyane mu nzego z'ibanze.

Abasirikare bacu bahora bakeye biteguye cyane kurinda inkike n'imipaka by'igihugu cyacu, cyane ko burya aribo dukesha iterambere n'ubuzima Imana ibakoresheje mu kurinda igihugu cyacu.

Inama yose rwose n'abadaso usanga bateze amatwi umuyobozi bakurikiye neza ikijya mbere ku bijyanye n'uyu mwanya wacu, kugira ngo turusheho kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Inama iyobowe n'ubuyobozi bw'igihugu, inzego z'abaturage, inzego z'umutekano, harimo abaporisi n'abasirikare, barimo kugaragaza uko umutekano w'igihugu umeze.

Umupolisi n'inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye, barimo kugaragaza no gusobanurirwa ibijyanye n'amabwiriza, cyangwa se ibigezweho, mu rwego rw'iterambere ry'igihugu n'umutekano.

Imashini imwe ikoreshwa n'umusekirite mu rwego rwo kurushaho gucunga neza umutekano w'ibintu, kugenzura neza ko ibintu bimeze neza. Uyu mugabo w'umusekirite niwe ucunga neza, kugira ngo birusheho gutungana.

Inzego z'umutekano zateranije inama, barimo abaporisi, abasirikari n'abaturage. Bari kubwirwa amabwiriza n'uko bagomba kwitwara, n'uburyo bagomba kwicungira umutekano, banagaragaza n'ishusho y'uko umutekano wabo ucunzwe neza.

Iterambere rituma rwose abantu bahabwa umwanya uhagije, umugore akaba ayoboye umwanya akoresheje mikoro, mu rwego rwo kurushaho kumvikanisha igitekerezo kuri buri wese.

Iyo abaturage rwose bari mu nama bose baba bateze amatwi. Hari n'abayobozi bacu: ba gitifu, usanga rwose baba batugezeho ibiduteganirijwe mu gihe kiri imbere mu rwego rwo kurushaho kubaho neza, n'imibereho myiza cyane mu buzima bwacu.

Abaturage bari mu nama bateze amatwi abayobozi, bari kubabwira amabwiriza y'ikijyambere mu rwego rwo kurushaho gutunganya no kubahiriza gahunda za Leta.

Urubohero baba batunganirizamo utwibo bashyizemo ibintu, n'imitemeri ya two, mu buryo bwo kurushaho guteza umuco nyarwanda imbere, n'uruhare narwo rujya mbere mu buryo bwo kurushaho kurutegura.

Isekuru n'umusekuzo byifashishwa mu gutunganya imyaka nk'amasaka, ibigori, ingano ziba zanze kuvaho inkumbi, mu rwego rwo kurushaho kuzitegura neza cyane.

Inkongoro bakamiramo amata. Mu rwego rwo kugira ngo abikwe neza cyangwa se bayatunganye neza, bagira ngo abayanwa bayanwe neza.

Ishusho y'umubyeyi ucigatiye umwana we, iba yakozwe cyane kugira ngo bagaragaze impuhwe umubyeyi agirira umwana we mu rwego rwo kurushaho ko ibintu bigenda neza. Ni yo mpamvu umuhanga aba yayifashe akayishushanya, akayitereka hariya.

Ikigega haaa ! Iki cyaryoshyaga ibiryo we! Wagiraga gutya ugasanga imyaka yose bayikubise muri iki kigega , ugasanga byibereye aho ngaho umuntu akajya akuramo bike bike byo agiye gukoresha ariko ibindi bikibera mu kigega nk'iki noneho ubu ntikikibaho!

Intore zirimo guhamiriza zijya hejuru zizunguza umugara, mu itorero ryabo ry'umuco wo kwidagadura.

Intore rero iyo zihamiriza usanga umudiho wazo rwose uba umeze neza, cyane iyo ifite ingabo n'icumu izunguza umugara, usanga ari ibintu biryoshe cyane kureba, ku buryo usanga ari umuco mwiza.

Umugore uri mu kazi atunganya neza ibiribwa kugira ngo birushe ho kubikwa no kuzakoreshwa bimaze kumera neza, kugira ngo bitunganwe neza bitazapfa, bikabora.

Umuco nyarwanda werekana uko imbyino za mbere zari zimeze, abagabo bafite imigara, abagore bafite utwebo ku mutwe, kandi mu buhanga bukomeye cyane bakarushaho kubukoresha mu kubyina.

Iri shusho ribi se! Riragaragaza cyakora umukobwa. Umuntu wakibumbye na we aba ari umuhanga. Uzi gushushanya umukobwa agahagarara gutya? Eee! Aba ari umuco mwiza cyane , binatwibutsa n'ubuhanga bw'Abanyarwamda.

Kuzinduka ni kara umubyeyi rwose arimo aratunganya imbuto mur'iki kibo cye, mu rwego rwo kugira arusheho kunoza neza akazi agomba kubyuka yagatunganije, uyu mugore rero abameze neza y'akazindetse cyane no kuri ik'ikirago cye.

Ingoma usanga abantu akenshi bakunda kuzifashisha mu kubyina, kwishimisha. Izi ngoma ziba ziri ahangaha usanga ziba zirimo gutegurwa mu rwego kurushaho kunoza neza.

Maze kubeta kuri iki kibetesho bikagorana we! Bifata imbaraga cyane z'umubiri, noneho gutunga, ukabona ifu iravamo igikoma! Noneho si umutsima wo rero biba ibindi cyane.

Ingabo, icumu n'agaseke , biri ahantu bimanikwa mu rwego rwo kugira ngo birusheho kubikwa neza.

Abazungu n'abaturage barimo kwiga kurasa bakoresheje imyambi, bakunda kubyita gufora.

Intore zirimo guhamiriza n'umugara wa zo n'amacumu, aho ngaho barimo kunezeza abari kubareba hafi aho.

Umurya w'inanga rero kuwu kwiranura kuwukirigita usanga bigoye cyane ku bantu batarabimenya, urarya urutoke ariko iyo umaze kubimenyera neza yi n'ibyo byiza bibaho kuri iyi nanga yacu y' umucuranzi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo I'm babura, umwuko utukoko, udukoko, udusabane n'imikubuzo imbizo.

Imashini zitandukanye zifashishwa kurushaho gutanga umuriro w'amashanyarazi.

Ikiraro abantu bambukiraho mu rwego rwo kugira ngo imigenderanire y'uduce cyangwa se uturere irusheho kumera neza, gikozwe mu buryo bwa gihanga, gifatishijwe ibyuma.

Ibiraro by'ibyuma, nabyo bigaragaza iterambere, ry'igihugu cacu rwose, cyane nkaho tuba tugeze, turi kujya biba bigaragaza yuko, turikujya ahantu heza hakomeye, mu buryo bushimishije.

Inzu ya etage yubatswe, abantu batonze umurongo, barimo gushaka serivisi zitandukanye, mu rwego rwo kurushaho kubona ibisubizo by'ibibazo.

Umunyonzi akaba ari gushakisha uburyo nawe yagera mu isoko mu rwego rwo kurushaho kwiteza imbere akoresheje iri gare rye.

Urusengero rwiza cyane rutatse, rufite ama etaje yo kwicaramo mu buryo bwo kugira ngo n'ubutaka bukoreshwa bube butoya kandi hakirwa abantu benshi.

Umuji wo mu Majyaruguru cyane ko urimo gutunganywa mu rwego rwo kugira ngo ahantu hase neza, n'ibirunga hafi hejuru aho ngaho.

Abaturage bari mu nama batonze umurongo bari kubaza ibibazo umuyobozi, mu rwego rwo kugira ngo ababonere ibisubizo bijyanye by'ibibazo bafite.

Umusaza arimo kuvuga uko ikibazo afite giteye. Arimo kugaragaza imiterere y'ikibazo afite uko kimeze.

Abaturage bari mu nama, barimo kuganirizwa kuri gahunda za leta, yewe nabo barimo kugaragaza imbogamizi n'ibibazo bafite, kugira ngo ubuyobozi bubashe kubikemura. Umusaza afashe mikorofone agira ngo abaze.

Abamotari batwaye abagenzi babajyanye aho basabwa kuba bari. Bo bakaba barimo kwikorera akazi kabo ko gutwara abagenzi.

Huuu! Biragaragara ko rwose ibintu biba bitoroshye ,cyane ko umuntu aba yapakiye ibintu byinshi kugira ngo arusheho gukora akazi ke n'umwete n'abakiriya ,umugore na MTN byose bacuru....

Umushoferi atwaye igipikipiki cya Lifani, ndi kubona ajya agikandagira cyane kandi iki ngiki kirihutaga .

Abagenzi mu mujyi, mu mujyi usanga biteguye kwinjira mu modoka bari ku murongo, yewe hari nabo usanga bari gukoza ku mashini ya makarita yacu tuba tugenewe.

Mu gukora umuhanda rero no gutunganya ahantu, usanga imodoka za kabuhariwe nk'izi ngizi nini zo gutwara ibintu n'abantu, bari kuzikoresha, usanga ziba arizo ziba zikenewe cyane, nk' ubu ngubu ziba zirimo gutunganya ahantu hose.

Abakerarugendo bari mu bwato, bari gutembera mu kiyaga, banazirikana n'umuco wabo, mu rwego rwo kugira ngo barusheho kuwusigasira cyane.

Ubungubu ibijyanye n'amafaranga rwose; ni ugukozaho gusa, ntabwo bigombera yuko abantu... ni ugukoresha kuri iyi mashini tapandigo. Abantu bakozaho barangiza bakagenda bitagombye... rero umubyeyi, umugore arashaka kugira ngo akozeho yitambukire, yigendere.

Amahonda y'amapikipiki n'ababaye abamotari usanga nabo bagikubita cyane, bazindutse mu gitondo cya kare ubu ngubu bari gushakisha abagenzi da kugira ngo barebe ko nibura wenda bakora akazi neza bakagatumika.

Abakinnyi ba rayo siporo ni uku baja bafatana barimo kwifotoza mu imikino yabo cane cane iyo bari kwishimisha mu buzima busanzwe bishimira ibitego.

Umukinnyi arimo kuzamura ikiro muri sitade aherezwa na bagenzi be, abandi biteguye gukuramo ibiro agiye gutera.

Abakinnyi ba voreboro batwaye umupira mu kirere, bagiye gutsinda ibiro. Bagenzi ba bo biteguye kubikuramo.

Abakinnyi b'umukino w'intoki z'amaboko, hendiboro. Abakobwa bari kurushanwa ku rwego rwo kugira ngo buri wese atware irushanwa. Igikombe.

Abanyonzi barimo gukina umukino wo kwiruka bakoresheje amagare. Barimo mu isiganwa, mu irushanwa ry'umukino w'amagare.

Umukobwa w' umunyembaraga afata aka gapira akagatsinda akakajugunya, akaba atsinze bagenzi be, cyane ko uyu mukino wa hendiboro uba usaba imbaraga no kwihuta cyane.

Basketball ikaba umukino mwiza uryoheshye weeh cyane ,iyo bano bantu bazi kuwusimbuka, by'umwihariko abakinnyi b'abahanga arasimbuka ,akanagamo ugasanga arabimaritse. Birakomeye cyane akaba aragutsinze.

Ababyinnyi b'itorero bakunze guseruka no gususurutsa abashyitsi, bateguye ibirori bavanzemo n'intore mu muhamirizo wazo cyane.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru futuboro. abakobwa bari kumwe n'umusifuzi uhagarariye umutekano wabo wo mu kibuga kugira ngo umukino ugende neza.

Irushanwa ry'amagare naryo rero usanga rishimisha, ni uko ubu ngubu igihugu cyacu amarushanwa y'amagare asa n'ayasubiye inyuma ku buryo bukomeye cyane, ariko birasaba ko n'ubundi bongera gusubira ku rufatiro rwa mbere, cyane ko bari bamaze kugera ku rwego rushimishije mpuzamahanga.

Umukinnyi wo kwiruka ,ukina umukino wo kwiruka bita umwaterete arimo kwiruka cyane mu irushanwa kugira ngo asiganwe agire amanota meza.

Abagenzi bakunda gutambuka muri uyu umuhanda w'umukara wegereye kaburimbo cyane rwose, niyo mpamvu bagendamo bitonze.